Agakapu gato k'umutuku gafite imashini z'umukara, karimo ibikoresho by'ibanze igihe umuntu uri gukora siporo cyangwa undi uwo ari we wese ahuye n'ikibazo harimo; amasizo, amapamba, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahantu habereye igikorwa cyo guhemba abanyeshuri bahize abandi. Aba banyeshuri bambaye udupira tw'imihondo n'amajipo y'imikara. Inyuma yabo hari itente rifite amabara y'umweru ndetse ritatswe n'amabara agize idarapo ry'u Rwanda.